Mu nyubako mo imbere hari igikuta giteyeho irangi hasi barambuyeho umukeka, hicayeho abana benshi cyane bakoze uruziga, bafite ibikombe imbere yabo harimo igikoma bisa byose.

Abana bambaye imyenda y'uniform igenda isa, harimo n'abatayambaye; umurezi wabo uhagazemo hagati w'umukobwa n'umumama uri ku ruhande ufashe abandi ku rutugu. Hakurya yaho hariho intsina zihateye.

Abana benshi cyane bafashe umukeka bawurambura hasi bicaraho, bose bagiye bafite amakaye imbere yabo harimo umurezi wabo, wambaye itaburiya y'umweru, urimo kugenda abareka ibyo bagenda bakora hakurya yaho hateyeho n'ibiti.

Abana benshi cyane bambaye imyenda y'iniforume, barambuye umukeka hasi bakicaraho, hari umama urimo kubaterekamo ibiryo biri kumasahani imbere yabo, kuru hande inkweto bambaye bazirambitse hasi.

Mu nyubako mo imbere hatewe irangi ry'umuhondo, hasi hakaba hari abana bicaye ku mukeka bangana, intebe ziri hakurya ariko ziticayeho abantu zihateye, mu idirishya harimo urumuri rurimo guturuka hanze rukarasamo imbere.

Mu nyubako mo mbere harimo abantu benshi bicaye abana bakiri bato harimo abambaye iniforume umumama umwe wiicaye ku ntebe yasheze yo kwegamirwa, imbere yaho harimo umubyeyi ufite ikaye mu ntoki urimo kubasomera.

Abana benshi cyane harimo abambaye inifomu abandi batayifite, bakoze uruziga mu imbere harimo abantu babiri umugabo n'umumama harimo umwe urimo kubafotora undi akaba arimo kugenda abaganiriza.

Inyubako yubakishije amatafari yahiye ifite igisenge cy'ubururu kiriho amabati, ku mireko iriho handitseho amagambo, hasi hari abana bambaye imyenda y'iniforume isa, bakoze uruziga.

Abana bakiri batoya bambaye imyenda y'ishuri, bahagaze bakoze uruziga, mo imbere harimo undi wikoze mumayunguyungu urimo kubakoresha siporo, kumpande hariho abamama babiri bahagaze, hakurya hari ikiraro cyubakishije ibiti, gisakaje amabati.

Mu nyubako hasi harimo sima, intebe zo kwicaraho, zo kwe hariho inyuma, imbere n'ahantu bandikiraho, harimo ijerekani isa nabi yanditseho a kabiri a.

Inyubako yubakishije amatafari yahiye hariho inzugi n'amadirishya bifunze hejuru, hakaba hariho amabati yashaje asa ubururu, ku ruzitiro ruriho ni urwo ibiti bigiye byubatse.

Inyubako yubakishije imbaho harimo ubwumba bugiye bufunguye bororeramo amatungo, agiye atandukana, imbere y'aho hari abana bambaye imyenda y'ishuri, harimo abambaye kake na kontoni, inkweto zifunguye.

Inyubako yubakishijeho amatafari, hakaba hari amadirishya maremare ariko afunguye igice cyo hejuru gusa, hasi harimo ibintu by'imyeru bituma utarebamo imbere, hakaba hejuru harimo kositara zijyanamo umwuka mu imbere mu nyubako.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye na sima, imbere yaho hariho ikibaho gisa umukara kitanditseho ijambo rimwe, hakaba hariho igishushanyo cyifashishwa mu kwiga cya ikoranabuhanga rya mudasobwa ibice biyigize.

Abana b'abanyeshuri, umwe, babiri, batatu, bane, bambaye imyenda y'iniforume, harimo ufite igihago kijyamo amakaye mu mugongo. Bahagaze mu mbuga, hakurya yabo hariho igice kiriho ibyatsi agana hasi. Inyubako iri hakurya yubakishije amatafari ahiye.

Abana b'abanyeshuri bambaye kaki na kontoni, inkweto zifunguye, harimo ufite amasogisi y'ambaye, bari mu kibuga, barimo barakoma amashyi bazamura, hakurya y'aho hari ibiti bihari bihateye.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikinyarwanda no mu mpine ngo "Gatagara", imbere yaho hariho ibyatsi bihari, umuhanda wa kaburimbo uriho umurongo ku ruhande w'umweru, hakurya hari inyubako ihari y'umweru isakajeho amabati.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye na sima hariho umukandara w'umweru, igisenge cyubakishijeho amabati, imbere yaho hariho ikigega cyubatse mu mabuye, hariho umureko uturuka hejuru ushyiramo amazi, hejuru hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abana b'abanyeshuri bari imbere y'ikigega cy'umukara cyubakiye hasi, bambaye iniforume ya cotton n'abambaye kake, imbere y'aho hakaba hari ikinogo cyahacukutse gihari, hari n'abandi bambaye bodaboda ahagana hasi.

Abana benshi batonze bajya gukora uruziga rw'igice kimwe harimo abambaye inifomo ya kake, kontoni n'abandi batambaye isa nk'iy'abandi bafite impapuro n'ibitabo mu ntoki zabo inyuma yaho hari urugo rwubakishije ibyatsi.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye harimo na sima. Hariho umukandara hejuru w'umweru. Ku gisenge ni amabati ariho. Mo hagati hariho indabo zihateye. Umwana uri hakurya.

Abana bakiri batoya bambaye imyenda y'inifomo, hasi kaki hejuru amashati, harimo abambaye inkweto zifunguye n'izifunze, inyubako yubakishijeho iteyeho umucanga inyuma yaho umuryango urafunguye barimo kwinjiramo.

Urupapuro rwanditseho amasaha n'amasomo bagenda abanyeshuri biga, rumanitse ku gikuta, rusa umuhondo. Hariho amasaha kuwa mbere, kwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu, amasaha agiye atandukanye.

Mu nyubako mo imbere hatarimo urumuri ruhagije, ameza n'intebe hejuru hateretseho ibipapuro byinshi cyane, ububati buri hakurya harimo amakayi, n'amakarito arimo, igikuta nacyo gisa, cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'inifomo, hejuru y'ubururu, hasi kake, bodaboda, bakaba barimo guhinga urubuto, bakaba barimo kurwubakira, inyuma barutwikira, hakurya hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ihari.

Abana umwe, babiri, batatu, bose bambaye imyenda y'ishuri hasi kake inkweto zifunguye n'amashati bafite amasafuriya mu ntoki zabo, ba sa vu bakuyemo ibiryo baryaga, hakurya hari abandi begamye ku ishuri ry'inyubako rihari.

Mu kigo cy'amashuri harimo abana bambaye inifomo abahungu n'abakobwa bambaye kacye na kotoni, inyuma ku gikuta hariho amatafari ahiye, harima ufite ububido bw'amazi. Nta rumuri rurimo ruhagije.

Igikuta cy'inzu cyubakishije amatafari ahiye, harimo sima, hariho ikibaho g'isa umukara, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru bandikishije ingwa. Hasi hariho ameza agaragara agace gatoya.

Mu icyumba cy'ishuri harimo intebe zirimo zo kwicaraho, ameza arambitseho ibitabo by'amoko agiye atandukanye, harimo abantu babiri bambaye amataburiya y'imyeru bose.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye y'umuhondo hagiye harimo sima mo hagati, imbere yaho hariho ikintu cyari gishushanyijeho uko umuntu yagenda yitwararika yirinda ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubakisha amatafari ahiye hariho umukandara uzengurutsemo hagati, n'inzugi zifunze, ikaba ishakajeho amatekura. Imbere harimo abana bambaye, imyenda y'ishuri harimo umukobwa wambaye agapfukamunwa.

Abana benshi cyane harimo abambaye iniforume, abakobwa n'abahungu, kake na kotoni, hakurya hariyo inyubako zigiye zitandukanye, zifite ibisenge biriho amabati y'ubururu.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, harimo sima imbere yaho hariyo ikibaho gisa umbukara, handitseho ingwa y'umweru n'indi ifite irindi bara, hasi hariho ameza ahari.

Udupapuro twanditseho imibare gatanu na zeru n'uduti tubaje neza turi hejuru y'ameza hariho rimwe, gatatu, icyenda, gatandatu, kane hakurya yaho hakaba hariho amabara agiye atandukanye.

Ikigo kirimo abanyeshuri bambaye iforume, barimo kugenda, imbere yaho mu kibuga harimo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda rimanitsemo, mo imbere harimo ibiti bihateye, inkwi zo gucana zirambitse hasi.

Ikigo cy'amashuri, harimo akabati kageretse inshuro nyinshi zigiye zitandukanye, harimo ibitabo bimanitsemo by'amoko agiye atandukanye n'amabara adasa, harambitsemo agakapu k'umukara.

Umwana wiyogoshesheje nta musatsi na muke afiteho yambaye ishati y'amaboko magufi y'ishuri hakurya ye hari akantu banagamo imyanda gahari mumbuga ntabyatsi bihari hari urugo rwubakishije amatafari ahiye na sima.

Mu ishuri mo imbere harimo sima hasi ariko yagiye imenagurika, harimo intebe zo kwicaraho zisanzwe z'abanyeshuri, hakurya hariho utundi tumeza, igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Inyubako yubatse hasi harimo sima, hakaba harimo ibisafuriya binini byitwa mivero batekeramo ibyo kurya bipfundikiye, hakaba harimo ibyenge bihari byubatse bigenda bisohora imyotsi biyijyana hanze.

Inyubako yubakishije amatafari yahiye harimo na sima imbere yabo hariho ikibaho gisa umukara cyandikishijeho ingwa z'amabara abiri agiye atandukanye, hariho imibare yo kugabanya n'ingero zo gupima.

Inyubako yubakishije amatafarihiye na sima, imbere yaho hakaba hariho imiryango ifunguye bacanamo, boherezamo umuriro bacumekamo inkwi, ikaba harimo imyenge igiye irimo itambutsa imyotsi isohoka hanze.

Abana benshi cyane harimo abakobwa n'abahungu bambaye inifomo ya kotoni n'iya kake, bari mu nyubako mu imbere bicaye ku ntebe, inyuma yaho hariho igikuta cyubakishije amatafari ahiye ahantu bari nta rumuri ruhari.

Inyubako yubatse ikaba iteyeho irangi hagana hasi ry'umukara, hejuru irindi ridasa gutyo, hariho ibishushanyo abanyeshuri bifashisha abiga by'amoko agiye atandukanye, igikuta hariho urumuri rurimo kurasaho, ahagana hejuru nta rumuri ruriho.

Abana b'abanyeshuri bambaye inifomo ya kake hejuru amashati asa, bambaye inkweto zifunguye bateruye ibase irimo ibyo kurya, kawunga n'ibishyimbo bitetse barimo kugana imbere babiteruye babishyira abandi.

Ikigo cy'amashuri kiri hakurya cyubakishije amatafari yahiye inzugi n'amadirishya bifunze hejuru kugisenge hariho pano z'umurasire zimanitseho kubyuma hakaba hashakaje amategura, imbere yaho hari umwana wambaye uniform.

Abana umwe, babiri barimo umwe wambaye umupira w'inifomu w'ishuri hakurya yaho hariho ahantu harambitseho mudasobwa yabo irimo kwaka barimo kwandikamo baca amataburo agiye atandukanye y'imirongo itambitse n'ihagaze, kuruhande hakurya hariho igitabo.

Abana bagaragara igice cyo hejuru gusa harimo uwambaye imyenda ya kake akaba yambaye agapfukamunwa kamupfutse mu maso, inyuma yaho hariho imifuka baciye yanditseho imibare hashushanyijeho n'amasaha abafasha biga, igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umwana wambaye iniforome hejuru isa ubururu, afite, agasafuriya mu ntoki harimo ibishyimbo, hakurya ye hari abandi bagaragara igice cyo hasi gusa bari mu mbuga.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari, hejuru hakaba hasakayeho amabati, munsi harimo abana bambaye imyenda y'ishuri, harimo umurezi umwe wambaye itaburiya, hakurya hariho urutoki ruhari, ku musozi yateyeho ibiti.

Abana b'abanyeshuri bambaye kaki hasi, hejuru amashati y'imyeru, bahagaze ku ntebe hejuru barimo gukora isuku boza amadirishya y'ishuri, umuryango ukaba ufunguye hariho ikibaho kirimo kugaragaramo.

Abana bambaye imyenda isa y'imipira y'imbeho, bahagaze ku murongo, imbere yaho hari umumama urimo kubaririmbisha, hakurya hari abandi bicaye imbere hariho ameza araditseho ubucupa bw'amazi na fanta yo kunywa.

Ikigo cy'amashuri gifunguye ku marembo binjiriraho hakaba cyubatse giteyeho amarangi, mu imbere harimo inyubako zubakishije amatafari ahiye, abanyeshuri barimo kugendamo bambaye iniforume hejuru imyeru hasi kake.

Abana b'abanyeshuri bambaye hasi kake hejuru imipira y'imyeru harimo n'ibigiye itandukanye hasi inkweto z'umukara n'amasogisi asa, bakoze uruziga bazengurutsemwo abantu mo imbere barimo kubaha ikigani.

Igicumbi cy'umuco cy'ishuri rya ryigisha ubwarimu ya Muhanga hariho indangagaciro na kirazira, hakaba hariho n'ikiranganteko cy'ishuri ryaho, nyuma yaho hari ikigo cy'amashuri kihubatse.

Inyubako nini cyane yubatse hasi harimo sima, hakurya ku bikuta hateyeho irangi, amadirishya y'ibirahure. Harimo umugabo wicaye ku ntebe zimbaho, wambaye itaburiya y'umweru, akaba yegamye ku meza harambitseho ibitabo byinshi cyane.

Inyubako iteyeho irange, hariho ikibaho gisa umukara, amagambo agiye yanditseho, agiye atandukanye mu mabara agiye ariho ay'umuhondo, ubururu, ahagana hasi hakaba hari ikintu cyihagaragara kimeze nk'ibuye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, hejuru hariho amabati asa ubururu n'imbere harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hakaba harimo abanyeshuri bambaye hasi kacye hejuru imyeru bambaye udupfukamunwa n'abatadufite.

Mu kigo cy'amashuri hariho inyubako yubakishije amatafari ahiye, igisenge kiriho umureko usa umutuku, munsi hariho abanyeshuri bahicaye bambaye imiforume hejuru y'imyeru, imbere hariho umuntu uhagaze wambaye impuzankano ya porisi y'u Rwanda.

Abana bambaye imyenda y'inifomo isa harimo abatoya n'abakuru barimo kugenda mu muhanda ushashemo amabuye, hakurya yaho hariho imodoka itwara abantu rusange iteye irangi ry'umuhondo amazu ageretse yubatse ahagana hakurya.

Ikigo cy'amashuri kinini, gifiteho uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye n'amabuye. Mo imbere harimo inyubako zigeretse, ariko zikaba hafunguye. Imbere hari abanyeshuri bambaye iniforume.

Inyubako igeretse nini cyane yometseho amakaro, imbere yaho hariho ibyuma biyizengurutseho, abagabo benshi n'abakobwa bambaye amataburiya y'umweru barimo kwinjiramo, umuryango urafunguye ahagana imbere.

Umugabo udafite umusatsi wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'amaboko maremare, afite inkoni arimo gutunga ku kibaho yerekana agenda yigisha abantu, hariho amagambo ahanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ikigo cy'amashuri harimo abanyeshuri bambaye hasi kake, hejuru amashati n'imipira y'imbeho, mu imbere harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hakaba harimo ikibuga bakiniramo umukino w'amaboko, harimo n'ikintu bifashisha bakinamo hagati.

Umwana w'umukobwa uri mu nyubako akaba yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umukara, n'agapfukamunwa, afite igitabo mu ntoki arimo gusoma, inyuma ye hakaba harimo akabati karimo n'ibindi byinshi, igikuta cyubakishije amatafari ahiye harimo na sima.

Inyubako igeretse ndende y'itaje, hasi harimo abanyeshuri b'abana bahicaye bambaye kotoni na kake, no hejuru hari abandi bafasha ku twuma bumva ikiganiro cy'umumama uri hasi ufite indangurumajwi urimo kuba arimo kubaha.

Ikibaho cy'umukara hariho amagambo ahanditseho yifashishwa mu muziki biga indirimbo, imibare magana ane n'icyenda ukubye gatatu n'indi igiye iriho igiye itandukanye, hejuru yaho hariho irangi ry'umuhondo.

Inyubako zirimo zubakishijeho amatafari yahiye, harimo igeretse n'itageretse, mo imbere harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, n'ibiti biteyemo, harimo n'abarimo kubyina bambaye imyenda isa, bose bateze amaboko.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, ku marembo hakaba hafunguyeho, harimo umuntu urimo guturukamo, asohokamo, ageze mu muhanda, hakurya ye hariho indabo zihateye, n'ibyatsi biri ahagana hasi, hejuru kikaba kizitiyeho ibiti binini cyane byakuze.

Inyubako ndende cyane igeretse yubakishije amatafari ahiye, amadirishya arafunguye andi agana hasi yo arafunze, inyuma ya ho hariho urugo ruzengurutseho hakurya hariho n'ibyatsi bihari.

Inyubako yubatse iteyeho amarange, imbere hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'igifaransa, hakurya yaho hakaba hari ibiti bihateye binini cyane, imbere y'urwo rugi hashasheho amatafari akoze muri sima.

Abanyeshuri benshi cyane bahagaze hakurya bambaye iniforomo hejuru, imyeru hasi, kake, imbere yabo hari abandi bambaye imyenda ya siporo bafite ibintu bitukura buri muntu. Imbere yaho hariho ahantu hasa ubururu bagiye gukinira.

Ikibuga cya vole bakina harimo abakinnyi bambaye imyenda y'amajezi barimo gukina, hejuru hari uhagaze imbere ya file hariho agatebe urimo kubasifurira agenda areba uko umukino umeze, hakurya hari abandi baje gufana bareba uko byitwaye, ikirere kirimo gusa uburu n'umweru.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye imyenda y'inifomo, hejuru amashati y'imyeru magufiya, amapantaro bose asa, imbere yaho hari abandi batatu batambaye nk'iby'abandi, inyuma hari inyubako ihubatse yubakisha amatafari ahiye n'igiti kinini.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'ubururu, ufite umusatsi mutoya, ari mu ishuri, amadirishya akaba afunze, ikibaho cy'umukara kiri imbere, akaba afite ingwa mu kuboko kwe arimo kwandikaho amagambo.

Mu nyubako mo imbere harimo abanyeshuri benshi cyane bambaye imyenda y'inifomo n'imipira y'imbeho, bose baricaye, imbere yaho ni ho barimo kureba bose bahanze amaso, bambaye udupfukamunwa, inyubako barimo harimo umuriro w'amashanyarazi, amatara arimo kwaka.

Abana b'abakobwa bambaye inifomo, barimo kujya ku ishuri, mu muhanda wa kaburimbo harimo umunyonzi ufite igare hariho intebe y'umufariso na moto irimo kumuturuka imbere, hakurya yaho hariho ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi cyane bambaye imyenda isa hejuru y'umupira, bafite imisatsi mitoya, abandi ni minini cyane, harimo umumama wambaye amaherena, imbere yaho harambitseho ameza arambuyeho arambuyeho ibitambaro by'imyeru, hariho ubucupa bw'amazi.

Mu nyubako hatarimo urumuri imbere, inyuma harimo kurasamo uruciye mu madirishya afunze, mu imbere harimo intebe abanyeshuri bicaraho bandikiraho, hakurya ku gikuta hateyeho irangi.

Inyubako iteyeho irangi, hejuru hariho igisenge ariko igice cy'inyuma nta rumuri rurimo, harimo ibitanda by'ibyuma bigeretse, bikaba biriho matera, bishasheho amashuka agiye atandukanye.

Mu nyubako mo imbere harimo amakaro imbere ku gikuta hateye irangi ry'umweru ku kibaho handitseho ibibazo by'imibare hakaba hari intebe zirimo ariko nta muntu wicayemo urimo harimo urumuri rurimo kumurikamo.

Umuntu umwe, babiri, harimo umwana wambaye imyenda y'inifomo, undi urimo kumwereka, bafunguye igitabo, hari igishushanyo kirimo barimo gusoma, imbere yaho hariho akabati kageretse, karatseho ibitabo bigiye bitandukanye.

Icyapa cyanditseho ngo Kabutare n'andi magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, kiriho imbere yaho ibyatsi bitoya bihari inyuma igiti kinini, hakurya hari inyubako ihari yubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo cy'amashuri hariho inyubako zubabakishije amatafari ahiye, zisakajeho amabati inyuma yaho hariho ibiti bihateye, mo imbere hari abana bambaye imyenda y'ishuri hejuru umweru hasi kacye, bicaye bakoze uruziga mo imbere harimo undi.

Inyubako zubatse zifiteho ibisenge bisakaje amabati agiye atandukany, ay'ubururu n'ay'umutuku, zose zubakishije amatafari ahiye, imbere yaho mu mbuga harimo utwatsi duteyemo n'indabo.

Abana b'abakobwa bari mu rungano bambaye amataburiya y'imyeru, bafite imisatsi bazirikishije, uwambayemo ingofero, imbere yaho hariho ububati harambitseho utwuma tw'ikoranabuhanga barimo kwifashisha bakoresha.

Abana bambaye imyenda isa, wagira ngo ni inifomo, inkweto zifunze hasi imikara, hejuru bakaba bambaye imipira y'imyeru, imbere yabo hariho ahantu hariho amakaro y'inziga, bose bahanze amaso.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'iniforume, imipira y'ubururu, undi ishati y'umweru, amapantaro hasi, bari mu kigo cy'amashuri, mo imbere gifite igisenge, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivanze.

Icyumba cy'ishuri hacyubatse ariko hakaba hateyeho umucanga. Inyuma n'imbere harimo intebe zo kwicaraho. Imbere hakaba hariho aho bagenda bandikira n'aho bashyiramo amakayi. Nta muntu n'umwe urimo. Idirishya riri hakurya rikaba rifunguye ririmo kuzanamo urumuri mo imbere.

Mu nyubako mo imbere harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe z'imbaho n'izindi zegamirwaho bambaye imyenda y'iforomo bakaba banatebeje imbere yaho hariho abantu bicaye ku ntebe imbere yaho hariho ameza arambitsweho igitambaro gisa ubururu.

Inyubako iri hakurya, iteyeho amarange, amadirishya n'inzugi bifunze, imbere yaho hari imodokadoka yanditseho Toyota ihagaze isa umweru, munsi yaho hariho indabo zihateye, mo imbere harimo paparume.

Inyubako igaragara igice cy'ahagana hasi gusa, hariho ikibaho bifashisha abanyeshuri bigaho gisa umukara, hariho amagambo ahanditseho yandikishijeho ikaramu y'umweru ahagana hasi hariho sima.

Abana bambaye inifomo hasi y'amajipo asa ubururu bwijimye, bambaye inkweto zifunguye barimo kugenda mu muhanda ushashemo amatafari ku mpande akoze muri sima, hakurya yaho hari inzu zihubatse, amapironi atwara umuriro w'amashanyarazi.

Ikigo cy'amashuri, harimo abanyeshuri bicaye hasi bambaye inifomo n'imipira y'imbeho, imbere yaho hariho abagabo babiri bahagaze barimo kubaha ikiganiro, intebe zo kwicaraho inyuma za sheze ariko nta muntu uzicayeho, hakurya hari ishuri ariko rifunzeho amadirishya n'inzugi.

Mu nyubako mo imbere harimo abana bambaye inifomo hejuru y'imweru harimo n'undi wambaye umupira w'imbeho usa ubururu wicaye ku ntebe zegamirwa zimye imbere yaho hariho abandi bicaye harimo umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda.

Mu nyubako mo imbere harimo abanyeshuri bicaye bambaye imyenda y'iniforomo isa hasi umukara hejuru umweruru, ku ntebe zisa ubururu mbere yaho hariho umuntu wambaye impuzankano ya RIB ikigo gishinzwe kugenza no gukemura ibyaha mu Rwanda.

Umumama wambaye ikanzu, inyuma umupira w'imbeho n'amarinete, ufite umusatsi, ufite igitabo mu kiganza cye, ukundi harimo ikaramu, imbere ye hari ameza arambitseho ibitabo, inyuma ni ikibaho cyanditseho amagambo.

Ikigo cy'amashuri cya kiruhura cyubatse ariko kikaba gifunguye, ku marembo yaho hariho insina ebyiri mu mpande mo imbere harimo abantu bahagazemo, ibiti birimo, inzu zubabakishije amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane cyubakishije amatafari ahiye na sima kikaba gishakaje amabati, mo imbere harimo imodoka nyinshi zihagazemo, idarapo y'Igihugu cy'u Rwanda, hakurya hariho umusozi uteyeho ibiti.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'inifomo hasi kake hejuru amashati asa bafite indangururamajwi barimo kuririmba, imbere yaho hari ibyuma bya bitanga amajwi biyongera n'umukeka ubaharambuye.

Mu nyubako mo imbere ariko harimo urumuri rudahagije, hari ameza arambitseho ibyuma by'ikoranabuhanga, mudasobwa zirimo kwaka n'izindi bifunze imbere yaho barimo kureba amashusho, amadirishya afunguye urumuri mu guturuka hanze rurimo kwinjiramo.

Mu nyubako mo imbere harimo abanyeshuri bambaye iniforume, hejuru imyeru, hasi imyenda ya kake, bicaye ku bintu byubatse byubatse amatafari ahiye. Imbere harimo umurezi wambaye taburiya.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi ifite irangi ry'umuhondo, imbere yaho hariho abana bambaye iniforume, n'umugabo urimo kugenda wambaye ipantaro n'ishati inyuma hariho akajire gasa umukara.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari yahiye, amadirishya afunguye, hejuru ku gisenge hariho amabati asa ubururu, mo imbere harimo ikibuga abantu barimo gukinamo bambaye amajezi banaga baro hejuru mu kirere.

Abanyeshuri benshi bambaye imyenda y'inifomo imyeru hejuru n'ubururu bw'amajipo y'abakobwa abicaye n'abandi bahagaze hejuru ku ruhande hariho umurezi wambaye itaburiya y'umweru. Umugabo wambaye impazangano za polisi y'u Rwanda urimo kubaha ikiganiro.

Inyubako yubatse iteyeho irangi ry'umuhondo ku gikuta, mo imbere hariho akabati kagereretse inshuro nyinshi hapanzemo ibitabo bigiye bitandukanye nako bigenda bisa, imbere yaho hariho intebe zihateretse ariko zigaragara igice cyo hejuru gusa.

Inyubako irimo abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ameza arambuyeho ibitambaro, amasahane ariho ibiryo afite igihiko arimo kurya, hejuru harimo amatara y'umuriro w'amashanyarazi arimo kwaka atangamo urumuri.

Icyumba cy'inyubako hasi harimo amakaro hakurya igikuta cyubakishije amatafari ahiye na sima, harimo abantu benshi bahagazemo harimo undi wicaye imbere ya mudasobwa akaba yambaye akantu mu mutwe.

Icyapa kiyobora abantu hariho amagambo ahanditse mu ururimi rw'Icyongereza, ni Kaminuza y'Ikigo cya Katolika ihubatse, hasi hari ibyatsi bingana, inyuma yaho hariho uruzitiro rw'ibyuma ruhubatse harimo ibiti mo imbere.

Umuhungu wambaye isarubeti y'ubururu bwijimye, ingofero, ga n'inkweto zifunze ari mu nyubako mo imbere iteyeho irange hakurya afite imashini zikoranabuhanga arimo kugenda akoresha zirimo mo imbere.

Mu ishyamba ahantu harimo ibyatsi bitoya bingana, agati karimo gaconze neza ku mpande, harimo ikintu kubatsemo k'ibyuma gasakaye harimo indangururamajwi iteretsemo, izuba ririmo kurasamo.

Inyamaswa iri ahantu ihagaze, imbere y'aho hariho imodoka irimo abantu babiri, hejuru hari inyubako, hariho amagambo ahanditse mu kirimi cy'impine mu Kinyarwanda ngo: ''IPRC Kitabi.''

Inyubako iri hakurya yubakishije amatafari ahiye, mo hagati harimo umukandara usa umuhondo, inzugi ziriho zikaba zifunze, imbere yaho hariho ubwatsi buhari buhateye, bungana n'injerekani zirimo z'imihondo.

Mu nyubako mo imbere nini cyane yubakishije amatafari ahiye, hakaba harimo intebe zirimo bicaraho ariko zifashweho n'ibyuma ahagana hasi, hejuru yaho harimo igisenge kirimo amatara ariko atarimo kwaka.

Mu nyubako mo imbere hasi hariho ibara ry'umukara harambitsemo ububati bwinshi cyane busa umweru, ku nkuta harasa umuhondo harambitseho utuntu tugiye dutandukanye twinshi cyane udushushanyo ariko nta rumuri rurimo ruhagije.

Inyubako nini cyane igeretse, iteyeho irangi ry'umuhondo, amadirishya y'imikara arimo afunguye hejuru ku gisenge, ariho amabati asa umutuku, imbere ku gipangu gihari hejuru hakaba hariho icyapa handitseho amagambo ari mu ururimi rw'icyongereza.

Mu nyubako mo imbere harimo umuhungu wicaye, imbere ku meza hariho mudasobwa, hakurya ku gikuta hariho ikibaho, amatara arimo kwakamo, intebe ziteyemo zo kwicaraho begamirwa ariko zizingura, zikoze mu mbaho n'ibyuma bizifashe.

Mu nyubako mo imbere harimo akabati gafunze, hejuru harambitseho ibikapu by'amavarisi bibiri, hasi hariho igitanda gishasheho matera, hariho ishuka y'umweru, intebe yo kwicaraho.

Munyubako mo imbere hasi harimo amakaro kunkuta hateyeho amarangi hejuru hakaba harimo amatara arimo kwakamo hasi hakaba hariho ameza agiye hambuyeho utuntu hateretseho n'utundi tuntu.

Umugabo ufite igitabo mu ntoki wishimye uri no guseka imbere ye hakaba hari mudasobwa ifunguye irambitse kumeza, igikuta kiri kuri iyo nyubako iteye irangi ry'umuhondo, inyuma ye hakaba hari idirishya rifunguye.

Ikigo cyubatse neza giteyeho amarangi, hirya hakaba hariho ibiti birimo bizengurutse ku ruhande rwo hakurya binini mo imbere harimo ikibuga kirimo sima hariho inzira zo ku mpande, ubusitani burimo burimo ibyatsi bingana.

Mu nyubako mo imbere harimo intebe zisa umukara n'izindi z'umuhondo, igice cy'imbere nta rumuri rurimo, icy'inyuma harimo kubona amatara ari hejuru arimo kwaka. Ku gikuta hateyeho irangi ry'umweru, hakurya hari urugi rufunze.

Mu nyubako mo imbere harimo sima, yubakishije amatafari ahiye, hejuru harimo amatara arimo kwaka atangamo urumuri, harimo ububati bugiye bugerekeranyije inshuro nyinshi, harimo ibitabo bigiye bimanitsemo n'ameza ariho ibindi nk'ibyo ngibyo.

Mu nyubako mo imbere hasi harimo amakaro, ububati buhari burambitseho hejuru y'ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo mudasobwa ifunguye ariko itarimo kwaka, hakurya hariho amatara y'umuriro w'amashanyarazi arimo gutangamo urumuri.

Ikigo cy'amashuri cyubakisha amatafari ahiye na sima, hariho ibyuma bishinzeho, hejuru igisenge ni amabati gihari, inyuma mu mbuga harimo ibyatsi bitoya bingana, harimo ibyagiye byuma n'ibitaruma.

Abagabo benshi bari munyubako mu imbere, bambaye udupfukamunwa bose, hakaba imbere yaho ku meza harambitseho mudasobwa zabo zifunguye zirimo kwaka n'ubucupa bw'amazi.

Imodoka nini cyane yanditseho Rwanda isa umweru ibirahuri hejuru birafunguye harimo abagenzi bicayemo barimo kugenda barebamo imbere mu modoka ariko umuyaga winjiramo ubasangamo imbere kuko bahafunguye.

Mu nyubako mo mbere harimo abantu, umwe babiri batatu, umumama umwe n'abagabo babiri, bambaye amataburiya y'imyeru, bafite ga mu ntoki zabo, imbere hari ibyuma bihari barimo kugenda bakandaho.

Inyubako nini cyane igeretse y'etaje, imbere yaho hariho urugo ruzengurutse rwubakishije ibyuma bigiye biruzengurutseho ubwatsi buhari, umuhanda ushashemo amatafari ahiye harimo umuntu urimo kugendamo.

Inyubako ziri hakurya zubakishije amatafari ahiye, hariho amadirishya afunze, imbere yaho hariho imodoka ihahagaze isa umukara, mu mbuga hashashemo amatafari ahiye, hariho indabo zigiye zihateretse mu bintu.

Mu nyubako mu imbere hasi harimo irangi ry'umukara, ububati bugiye burimo, ahantu hari kugenda umuntu agenda akaba, hejuru harimo amatara arimo kwakamo, igikuta giteye irangi ry'umweru.

Inkingi yubakisha amatafari ahiye harimo na sima harimo ku kantu gakoze muri pulasitike kariho bashyiramo udukingirizo butuma abantu birinda sida, ku ruhande hariho urujyi ariko rufunze.

Inyubako nini cyane zubabakishijeje amatafari ahiye na sima, hejuru hakaba hariho ikigega cy'umukara gishakaje amabati atukura hirya hari indi igeretse, mo imbere harimo ibyatsi bingana harimo n'ibiti biteyemo.

Inyubako nini hasi harimo sima iteye irangi ry'umukara, ku gikuta hariho iry'umuhondo, imbere yaho hariho icyapa cyanditseho amagambo, intebe irimo yo kwicaramo ariko nta muntu nuyu n'umwe urimo, muri iyo nyubako mo imbere nta rumuri rurimo.

Mu nyubako mo imbere hariho irangi riteyeho ry'umuhondo, urugi rufunze handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza n'imibare igiye iriho, hakurya hariho icyuma bifashisha bazimya inkongi mu gihe yahabaye.

Mu nyubako mo imbere, harimo umugabo umwe wicaye ugaragara igice cyo hejuru gusa akaba afite umusatsi mukeya, imbere hariho mudasobwa irimo kwaka arimo kurebamo ariko yihengetse, hakurya hariho ikibaho gihari gisa umweru.

Abantu benshi cyane bicaye, imbere yaho hariho ameza harimo ibikombe, barimo kugenda banywa harimo abambaye udupfukamunwa, abafite amakaye barimo kwandika, inyuma yaho hariho ibintu byanditseho IPRC Tumba.

Mu nyubako mo imbere ifunze urugi rwo ku cyumba, harimo urumuri ruhagije, ku gikuta hateyeho irangi, imbere harimo ibitanda bibiri biriho matera hashasheho amashuka asa, hakurya hari intebe ihateye, imbere yaho hariho akabati.

Ikigo cyubatse cyubakishije amatafari ahiye n'amabuye hasi manini ya fondasioyo, igisenge cy'amabati, hakurya hari indi ihari iteye irangi ry'umuhondo, mo mu hagati harimo ibiti birimo binini cyane, umugabo uhagaze haruguru.

Mu nyubako mo imbere, hasi harimo amakaro y'imyeru ubutajeri buhari bunini cyane, harimo ibitabo bigiye bitandukanye, bifite n'amabara agiye atandukanye byegetsemo, ku gikuta inyuma hateyeho irangi.

Mu nyubako, hasi harimo amakaro, hejuru harimo kwakamo amatara, inkingi ziriho zishinzemo, harimo ububati bugiye burimo ibitabo byinshi cyane by'amoko agiye atandukanye, bigerekeranye.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho ngo IPRC Huye, ariko hakaba hariho umwijima. Hakurya hari inyubako irimo kugaragaraho urumuri ihari, iteyeho irangi ry'umweru n'umuhondo.

Inyubako igereretse yubakisha amatafari ahiye na sima, hejuru hariho igisenge cy'amabati, mo imbere harimo ikibuga cyubakishije hasi amatafari ahiye, bubatsemo amatente, harimo abantu bambaye imyenda y'imyeru barimo gukoreshamo ibirori.

Inyubako iteye irangi yubakishijeho hejuru amabati ayisakayeho, hagati igiye icomekeranyije, harimo imireko igenda imanura amazi, imbere yaho hariho ubusitani bwiza bungana hateyemo n'ibiti, hari igiti kinini gihari gishinze...

Inyubako iri hakurya yubatse iteye, amarangemo mu imbere, harimo umuntu. Yubatse ari uruziga rw'umunara ruzamuye hejuru isumba izindi, inyuma yaho hariho indabo zihari, umuhanda urimo ushashemo amatafari ahiye, ikirere kirimo gusa n'umweru.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi, bambaye amataburiya y'umweru, bicaye ku ntebe zifite amapine, zikaraga, imbere y'aho hariho ububati busa umweru, mu nyubako harimo kwakamo amatara atangamo urumuri.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, umugabo n'abamama bicaye bafite amakaramu mu ntoki zabo, imbere yaho hariho abafite mudasobwa zifunguye, igikapu, n'impapuro z'umweru.

Abapapa n'abamama bicaye mu nyubako mo imbere ku ntebe, bose bakaba bafite amakaye imbere yabo barimo kwandika n'amakaramu, inyuma hari umwe wazamuye ukuboko hejuru ariko nta rumuri rurimo ruhagije, igikuta giteye irangi ry'umweru.

Mu nyubako mo imbere harimo abagabo babiri bambaye amataburiya y'imyeru, barimo kureba mu byuma byo kwa muganga, undi afite akantu amanitse arimo kurebamo. Bambaye ama ga mu ntoki zabo. Ku gikuta hakurya giteyeho irangi ry'umweru.

Inyubako y'ishuri iriho hasi sima iteye irangi ritukura, ku gikuta hariho irindi. Mo imbere harimo ububati burimo bunini cyane bugeretse, harimo amakaye agiye atonzemo n'ibitabo, imbere hariho ameza, hariho intebe bagiye bacomekamo.

Mu nyubako mo imbere hatarimo urumuri ahagana hasi amadirishya afunguye, hariho amarido arambuyeho urugi rwo ku cyumba rufunguyeho igice gitoya, igikuta hateyeho irangi harimo agatajeri karambitsemo inkweto.

Ikigo cyubakishije amatafari ahiye na sima, kizengurutswe hose, hakaba imbere yaho hari abantu bahari barimo kuzamuka undi yegamye ku rukuta, undi arimo hejuru yicaye mu ndabo mo hagati, hakurya hari ibiti binini bihari.

Mu nyubako mo imbere harimo intebe zo kwicaraho begamiye, harimo abantu benshi, abamama, abakobwa bafite imisatsi iboshye, hejuru barambitseho amatelefone yabo, hari abandi bari imbere, ibyuma byongera amajwi, amatara arimo ariko atarimo kwaka.

Mu nyubako mo imbere hasi hasa umukara, ku gikuta hateyeho irange ry'umweru, harimo intebe ziriho ibitambaro, ububati bugiye buriho bufunze, imbere ku madirishya hariho amarido asa nk'ibitambaro bigiye birambuye ku ntebe zigiye ziriho.